Aba ni abantu bari muri sale, ndabonamo udukombe, ndabonamo ibirahure, ndabonamo uducupa tw'amazi, ndabonamo abazungu, ndabonamo imiryango usohoka, ndabonamo ingofero z'abisilamu, ndabona abambaye amakote y'imikara ndabonamo amakaruvati.

icyumba cy'inama cyicayemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari uducupa tw'amazi na mudasobwa n'ibitabo, kuruhande hari igishushanyo.

Icyumba cy'inama harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari agacupa k'amazi gateretse ku meza y'igitambaro cy'umutuku, imbere yabo hari imfashanyigisho, kuruhande hari taburo imanitse ku gikuta.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abagabo n'abagore, imbere yabo hari igishushanyo cyamamaza iyo nama, ku ruhande hari amarido ya gre, bicaye ku ntebe z'imikara n'imyeru.

Ndabona inzu ebyiri zegeranye, z'amabati y'imikara n'imireko y'imyeru ndabona ipoto z'amashanyarazi, ndabona insinga zimiriro, ndabona ibiti, ndabona intsinga za interineti, ndabona urukuta rwa porutayi rwa karabasasu.

Ndabonamo inzu ifite irangi ry'umuhondo, ikagira disayini z'ubururu z'ibiti zisize irangi ry'ubururu, nkabona insinga z'imiriro, insinga za netiwaki z'ikoranabuhanga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwara abagenzi, ku ruhande hari akazu gafite ibara ry'ubururu, aho abagenzi bategereza imodoka, kicayeho umuntu, inyuma yako hari ifoto y'igiti y'amashanyarazi.

Ndabonamo abakozi b'imiriro, ndabonamo taransifoma nini, ndabonamo amapironi, ndabonamo insinga, ndabonamo ibiti, ndabonamo ingofero z'imihondo, ndabona abambaye ibisurebiti by'ubururu, ndabonamo inzego z'ibiti.

Abadamu bari kurahira bafashe ku idarapo rya Repubulika y'u Rwanda, bambaye imikenyero bazamuye ukuboko kwabo kw'bumoso.

Umuhanda urimo ibinyabitende, harimo imodoka, amapikipiki, ku ruhande hari uruzitiro rwa supanete, ku rundi ruhande haparitse ibimodoka, ku rundi ruhande hari umuturage w'umunyamaguru uri gucamo.

Umuhanda kaburimbo urimo imodoka y'ubwikorezi imbere hari umuntu utwaye igare, hepfo yaho kuruhande hari uruzitiro rwibiti rwa supanete y'icyatsi.

Ibibuga by'umupira bitandukanyijwe n'uruzitiro rw'ibyuma, rukazengurutswa n'ibiti birebire, binini, ku ruhande haparitse imodoka...

Kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira abayobozi b ibinyabiziga ko hafi aho hari ikigo cy'amashuri bagomba kugabanya umuvuduko mu muhanda.

Imodoka n'amapikipiki biri guca mu muhanda wa kaburimbo, urimo amatara ndanga cyerekezo, ku ruhande hari jaride, inyuma hari ibiti binini n'amapoto y'ibyuma y'amashanyarazi.